Amashu ari hafi kwera, ameze neza cyane . Abahinzi bakorera bari kuyatera umuti, kugira ngo bayarinde uburwayi, maze azere neza cyane bayajyane ku isoko, babone amafaranga yo gukoresha mu bindi.

Umuhinzi ari kuhira imyaka, kugira ngo azagire umusaruro mwiza, ushimishije cyane maze abone ibyo akeneye.

Inyongeramusaruro bifashisha bari guhinga, bityo bikabafasha kongera umusaruro wabo maze bakiteza imbere.

Ni umuntu uhagaze hejuru y'ifumbire afite igiti arimo aragikozamo muri iyo fumbire, hari ubwatsi butoshye bumukikije ndetse n'ibiti bimeze neza.

Abaturage bafite amasuka bifashisha bari guhinga, bari gutunganya ifumbire bifashisha bari guhinga, kugira ngo bongere umusaruro wabo maze biteze imbere.

Inyanya zitaweho neza cyane ziri hafi gutanga umusaruro, batera imiti kugira ngo zitange umusaruro ushimishije, maze bazawujyane ku isoko babone amafaranga ashimishije.

Isambaza bateka maze bakarya bishimye, izindi bakazigurisha bakabona amafaranga yo kugura ibindi bikoresho bikenewe, maze andi bakayajyana muri banke bakiteza imbere.

Ifi imeze neza barobye mu mazi maze bakayishyira ku nkengero, kugira ngo itakaze ubuzima, maze bajye kuyiteka maze babone intungamubiri ,babone n'amafaranga.

Ni abarobyi bari mu bwato bafite imiraga yabugenewe yo kuroba bari mu mazi hejuru hirya yabo hari ibiti.

Umusaruro w'isambaza umeze neza cyane ushimishije, bashyize mu mabase kugirango utangirika, bakawujyana mu rugo bakajya kuwuteka, maze bakawurya bakagira ubuzima bwiza.

Hari inzu abaturage batuyemo hari ibiti by'amoko atandukanye bifashisha mu buvuzi no mu gucana hari n'amazi bakoresha.

Indagara z'amoko atandukanye ,bashyize mu bikoresho bitandukanye ,kugira ngo abakiriya nibaza kuzigura bazabereke amoko yazo ,maze bazigure bajye kuziteka iwabo ,bityo bagire ubuzima bwiza bibarinde kugwingira.

Umusaruro w'amafi wabonetse neza cyane ushimishije bakawushyira mu bikoresho byabugenewe, maze bakawujyana ku isoko kuwucuruza maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi. Ayandi bakayajyana kuri banki kugira ngo biteze imbere.

Ubwanikiro banikaho isambaza maze bakazijyana ku isoko kuzigurisha, izindi bakazijyana mu rugo bakajya kuziteka, maze bakazirya banezerewe cyane.

Amafi akawushije ari mu gikoresho, acuritse asa neza.

Imiyaga aborozi bifashisha bari kuroba amafi yabo kugira ngo bagajyanane ku isoko ayandi bajye kuyarya, maze bagire amagara mazima n'icyuzi cy'amazi bateramo amafi yabo.

Umusaruro w'isambaza umeze neza cyane bashyize mu mabase kugira ngo utangirika, bawujyane ku isoko kuwugurisha maze babone amafaranga yo kwifashisha. Izindi bazijyane mu rugo bajye bazirya.

Amafi yitaweho neza cyane, arakura atanga umusaruro mwiza ushimishije bayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha ayandi bakayajyana mu rugo, bakajya barayarya.

Ibigori byeze neza cyane bigatanga umusaruro ushimishije cyane maze abahinzi bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga menshi cyane yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi ayandi bakayajyana kuri banki.

Igitari giteyemo ibiti biri hafi gutanga umusaruro, bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha ,ayandi bakabajyanana kuri banki bakiteza imbere, bakabona n'inkwi zo gutekesha ibiryo, maze bigashya bakarya.

Voka zikiri ntoya hirya yaho hari ibigori n'urutoki hirya yaho hari amazu.

Ibihaza bimeze neza biri hafi gutanga umusaruro, ibitoki biri hafi gutanga umusaruro maze bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Amashaza yahinzwe neza agakorerwa ku gihe ari hafi gutanga umusaruro, bakayajyana ku isoko bakajya kuyacuruza, bakabona amafaranga yo kwifashisha, ayandi bakayajyana muri banki kugira ngo biteze imbere, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya kuyarya.

Ibiti bitanga umwuka wo guhumeka, bigatanga inkwi abantu bifashisha bari guteka ibiryo, maze bakarya.

Igiti cy'avoka gikuze, kimeze neza cyane, igitoki bateye kiri hafi gutangira kwera, ibishyimbo basaruye bakajyana mu rugo bakajya kubirya, ibindi bakajya kubicuruza bakabona amafaranga, ubundi bakayajyana kuri banki.

Ibitoki byahinzwe neza cyane， biri hafi gutanga umusaruro， ibiti bitanga umwuka wo guhumeka，tukabona n'ibicanwa bacana， maze bagateka ibiryo bigashya， bakarya.

Ni umurima w'ibirayi bimeze neza, biratoshye, hari umusore uri gutambuka, hirya hari ibigori, hari umunara, hari n'ibiti bihari.

Umurima wasaruwemo ibigori byeze neza cyane. Bakabijyana ku isoko bakabona amafaranga maze bakagura ibyo bakeneye. Ibindi bakabijyana mu rugo ,bakajya kubiryamo umutsima.

Ibirayi byakorewe neza cyane kugira ngo bitange umusaruro abantu babone amafaranga yo kwifashisha.

Ni umurima uhinze neza, hari umuturage uri hirya ,urimo guhinga hirya ye, hari ibiti bimeze neza.

Umurima uteguye neza abahinzi bahinga bakabona amafaranga maze bakayakoresha mu bindi bakeneye, maze bakiteza imbere bakabona n'ibyo kurya, ayandi bakayajyana muri banki.

Intama zimeze neza cyane, zitanga inyama bakabona amafaranga yo kwifashisha bari kugura ibindi, urutoki rwera ibitoki abantu barya n'imineke barya maze bakiteza imbere.

Voca zitaweho neza zigakorerwa ku gihe, ziri hafi gutanga umusaruro, kugira ngo bawujyane ku isoko, babone amafaranga yo kwifashisha, mu bindi bintu bitandukanye bakeneye, izindi bazijyane mu rugo bajye bazirya.

Umurima wa karoti zimeze neza, zireze batangiye kuzisarura, hirya y'umurima hateye ibiti.

Amatunda yeze neza cyane, bakayajyana ku isoko kuyacuruza, bakabona amafaranga yo kwiteza imbere ayandi bakayajyana kuri banki, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya bayarya.

Abahinzi bambaye neza barishimye bari mu murima bari gukura ibirayi bireze bimeze neza inyuma yabo hari ibigori hari n'ibishyimbo.

Amashaza yeze neza cyane bajyana ku isoko bakajya kuyacuruza, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki kugira ngo biteze imbere, ayandi mashaza bakayajyana mu rugo bakajya kuyateka maze bakayarya.

Ibirayi byeze neza cyane bapakiye mu mifuka kugira ngo babijyane ku isoko kubigurisha, babone amafaranga yo kwiteza imbere, ibindi babirye mu rugo bajye kubiteka maze bajye babirya bishime cyane.

Igiti cy'imyembe gitoshye neza cyakorewe neza cyane, kugira ngo kizatange umusaruro bawujyane ku isoko, babone amafaranga yo kwifashisha mu bindi bakeneye, maze babone n'ayandi yo kujyana muri banki bityo biteze imbere.

Ihene zimeze neza zishishe, zigaburiwe ubwatsi bwiza, ziri mu kiraro gikoze neza, gifite ibiti n'amabati, zigatanga umusaruro maze ba nyirazo bakabona amafaranga, bakayajyana ku isoko ayandi bakayabitsa.

Isoko ricururizwamo imbuto zitandukanye barya, imineke, amaronji, pome, indimu n'ibinyomoro maze bakagira amagara mazima, bakabona n'amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, bakiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya kubirya.

Ni abahinzi bari mu murima, barimo gukorera ibigori, bimeze neza, bari kubyuhira, hirya ya bo hari ishyamba riteyemo ibiti.

Igitoki cyeze neza cyane batara kikavamo imineke, bakayijyana ku isoko kuyigurisha, bakabona amafaranga bakayajyana kuri Banki, ayandi bakayakoresha bari gukemura ibindi bibazo bigiye bitandukanye.

Urusenda rwitaweho neza cyane, rugakorerwa neza, rugatanga umusaruro mwiza cyane, ushimishije. Bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe. Ayandi bakayajyana kuri banki kugira ngo biteze imbere.

Voka zeze neza cyane, bakazishyira mu bikoresho byabugenewe bakazijyana mu rugo kuzirya, izindi bakazijyana ku isoko kuzigurisha bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, ayandi bakayajyana kuri banki.

Abaturage bambaye neza, bishimye, bavuye gusarura ibijumba, inyuma yabo hari ibigori byumye, hari n'urutoki.

Imboga z'amoko atandukanye abantu bifashisha bari guteka, n'ibirungo bashyiramo kugira ngo ibiryo bigire uburyohe bwinshi.

Isoko ricururizwamo amatungo atandukanye, maze bakayagura bakajya kuyorora iwabo mu rugo, bityo bikabafasha kubona ifumbire maze bakiteza imbere mu buhinzi bwabo. Bakabona ibyo kurya n'amafaranga yo kwifashisha, ndetse bakaniteza imbere.

Intoryi zitaweho neza cyane zigatanga umusaruro ushimishije, bakazijyana mu rugo kuzirya, izindi bakazijyana mu isoko kuzicuruza, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki bakiteza imbere.

Amashu yitaweho neza ari hafi gutanga umusaruro bakayajyana ku isoko kuyacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha ayandi bakayajyana mu rugo bakajya bayateka maze bakayarya.

Voka yeze imeze neza cyane abantu barya, izindi bakazikoramo amavuta abantu bisiga bamaze gukaraba, maze bagacya.

Umusaruro w'ibirayi bamaze gupakira mu mifuka ,kugira ngo bawujyane ku isoko maze babone amafaranga, basagure n'ibindi byo kujyana mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibishyimbo biri hafi gutanga umusaruro， bakabijyana ku isoko kubicuruza， bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye， ayandi bakayajyana kuri banki， ibindi bakabijyana mu rugo，bakajya kubiteka， bakajya barabirya.

Umufuka batandikaho urusenda rwo gucuruza n'ibitunguru n'ibijumba, n'intebe bicaraho bari gucuruza, bategereje abakiriya ngo baze babagurire.

Puwavuro zigeze igihe cyo kwera bazihingiye igihe, ba nyirazo barishimye bazajya bazisoroma bazijyane ku isoko kuzigurisha, maze babone amafaranga yo kujya bifashisha.

Isoko ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye. Ibihaza, imyumbati, ibitoki, maze bakabona amafaranga yo kwifashishaka, ayandi bakayajyana kuri banki, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Umurima uhinzemo icyayi， kimeze neza kiratoshye， kireze， kigezwe igihe cyo gusarurwa，harimo umuntu wambaye neza，wishimye urimo gusarura.

Umurima urateguye umeze neza, hari abantu bambaye neza bishimye bafite ingemwe z'ibiti, inyuma yabo hari urutoki hari n'ibiti.

Urusenda rwitaweho neza cyane rugakorerwa ku gihe. Ruri hafi gutanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko kurugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi, urundi bakarujyana mu rugo bakajya baruteka bakarurya.

Umusaruro wibirayi wabitswe neza kugira ngo hazaboneke imbuto abahinzi bazifashisha bari guhinga maze babone umusaruro mwiza bityo babone amafaranga n'ibiryo byo kujrya.

Ikawa imeze neza bakoreye neza igeze igihe cyo gusoromwa maze bakayijyana ku isoko bakabona amafaranga bakwifashisha mu buzima bwa buri munsi bagura ibintu bitandukanye maze bakanezerwa kubera umusaruro babonye.

Ibigori byezeye neza cyane. Bajyana ku isoko bakabona amafaranga ibindi bakabijyana mu rugo bagatekamo umutsima wo kurya.

Amatunda yitaweho neza cyan ari hafi gutanga umusaruro, bakayajyana ku isoko kuyacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha ayandi bakayajyana muri banki, bakiteza imbere, ayandi bakayarya.

Umurima bahingamo ibigori n'ibindi bintu binyuranye, kugira ngo babone ibyo bifashisha mu buzima bwa buri munsi maze bibateze imbere, babone amafaranga bazajya bakoresha mu bindi bintu bitandukanye bakeneye.

Abaturage bambaye neza . Baje gucuruza imyaka yabo. Hari imifuka bicayeho indi irimo imyaka yabo.

Igiti cy'amacunga kimeze neza gitoshye, gifite imbuto nyinshi z'amacunga ameze neza, yeze.

Inkoko babaze neza cyane maze bakagurisha inyama bakaziteka bakazirya, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakayajyanana muri banki kugira ngo biteze imbere, bityo bagire ubuzima bwiza.

Imyumbati yeze neza cyane yitaweho, maze igatanga umusaruro ushimishije cyane, bakawujyana ku isoko, kuwugurisha bakabona amafaranga, iyindi bakazijyana mu rugo, bakajya kuyiteka maze bakayirya.

Imyumbati yanitswe neza kugira ngo yume neza, maze bazayijyane ku isoko babone amafaranga, basagure n'indi yo kujyana mu rugo kugira ngo bazajye bayiteka, maze babone ibyo kurya.

Inyanya zitangiye kwera, zitaweho neza cyane. Zifite umusaruro uhagije ku biti. Abaturage bazajya kuzicuruza babone amafaranga menshi cyane.

Imbuto bacuruza zo kurya z'ubwoko butandukanye imineke, inanasi, ibipapayi, inkeri, pome, wotameloni, amacunga na manderena. Maze abantu bakagira ubuzima bwiza bakabona n'amafaranga yo kwifashisha.

Amateke yitaweho neza cyane, ari hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha, ayandi bakayajyana muri banki, ayandi bakayajyana mu rugo, bakajya bayateka bakayarya.

Ibiti by'imyombe biri hafi gutanga umusaruro ushimishije. Maze bakawujyana ku isoko, bakajya kuwucuruza. Maze bakabona amafaranga yo kwifashisha ,mu bintu bitandukanye. Izindi bakazijyana mu rugo bakajya kuzirya.

Imiteja yeze neza cyane iri mu mufuka. Abantu bacuruza kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha, ayandi bayajyane muri banki, izindi bazijyane mu rugo bajye baraziteka maze bazirye.

Umurima bari guteramo ibiti kugira ngo bizakure neza, babone imbuto zo kurya n'izo kujyana ku isoko, kugira ngo babone amafaranga yo gukoresha.

Ibijumba bimeze neza cyane bifashisha bari guteka maze bakabirya, kugira ngo babone imbaraga zo gukoresha bari gushaka ubuzima.

Ibitunguru byeze neza cyane bimeze neza bajyanye ku isoko kubigurisha kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha, ayandi bayajyanane muri banki maze babone kwiteza imbere.

Ni umurima w'imyumbati umeze neza, irashishe, barayikorera, ikikijwe n'ibiti biyiha imvura ituma yera neza, umusaruro ukaba mwinshi.

Abahinzi bari gusoroma icyayi bishimye cyane kubera umusaruro wabonetse ushimishije cyane maze bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha mu rugo, bakabona n'ayandi yo kujyana kuri banki kubitsa maze bakiteza imbere.

Igitoki cyeze neza cyane babonamo imineke, ikindi bakagikoramo inzoga abantu banywa maze bakizihirwa, bakanezererwa, bagaseka cyane.

Amatunda yitaweho neza cyane atanga umusaruro ushimishije, bakayasarura bakayajyana mu rugo kuyarya, ayandi bakayajyana ku isoko kuyacuruza, maze bakabona amafaranga bakayajyanama kuri banki ubundi bakiteza imbere.

Inyanya ziri hafi gutanga umusaruro mwiza cyane kuberako zitaweho neza, maze bakazijyana ku isoko bakazigurisha bakabona amafaranga bakayajyana muri banki ,andi bakayakemuza ibibazo bafite, izindi bakazijyana mu rugo bakajya kuziteka bakazirya.

Umuceri witaweho neza cyane， uri hafi gutanga umusaruro，bakawujyana ku isoko， bakajya kuwucuruza，maze bakabona amafaranga yo kwifashisha， ayandi bakayajyana muri banke，undi bakawujyana mu rugo， bakajya bararawuteka， maze bakawurya.

Isoko ricururizwamo ibiribwa bitandukanye: imiteja, puwavuro, sereri, intoryi bifashisha bari guteka, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya kubirya.

Ni abaturage bambaye neza bafite amasuka, bitabiriye umurimo barimo guhinga bakikijwe n'ibiti bimeze neza, bibaha umwuka wo guhumeka.

Voka zitaweho neza cyane n'abahinzi bakabona umusaruro ushimishije cyane bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo byabo, ayandi bakayajyana kuri banki maze voka bakazitara, abaturage bakazirya bakumva banezerewe.

Ikawa yeze neza cyane bakayijyana ku isoko kuyigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, andi bakayajyana kuri banki kuyiteza imbere, iyindi bakayijyana mu rugo bakajya kuyinywa.

Abaturage bafite umunzani barimo gupima imyumbati, bishimiye umusaruro wabonetse inyuma yabo hari ibiti bimeze neza.

Abaturage bishimye. Bafite umyumbati mu ntoki zabo. Bahagaze mu murima w'imyumbati hirya yabo hari umurima w'ibiti.

Karoti zeze neza cyane, bazitayeho zigeze igihe cyo gusarurwa, bakazijyana mu isoko kuzigurisha, bagasagura n'izindi bazajya barya.

Abahinzi bafite amasuka bahingisha maze bagatera imyaka mu mirima bahinze neza, bityo bakazabona umusaruro mwiza cyane w'imyaka bakawifashisha bari kurya ,indi bakayijyana ku isoko bakabona amafaranga.

Ibitunguru byahinzwe neza cyane biri hafi gutanga umusaruro maze bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga ahagije, bakayajyana kuri banki ayandi bakayakoresha mu bikorwa bitandukanye bityo bikabafasha kubaho neza cyane.

Inyanya basutse ku mufuka kugira ngo batoranyemo izihiye cyane n'izidahiye cyane, maze bazijyane ku isoko kuzicuruza babonemo amafaranga maze bayifashishe bari gukora ibindi bintu bitandukanye, izindi bazijyane mu rugo baziteke bajye barazirya.

Avoka zimeze neza cyane, ziri hafi gutanga umusaruro, bakazijyana mu rugo kuzirya, izindi bakazijyana ku isoko kuzicuruza, bakabona amafaranga yo kwifashisha, mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki.

Umufuka utanditseho ibidodoki bacuruza, maze bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, ayandi bakayajyana kuri banki, ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya barabiteka maze bakabirya.

Omo, pampa, indagara n'ubunyobwa bacuruza maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki bakiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya kubiteka maze bakabirya.

Ibigori byitaweho neza cyane bigakorerwa neza ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo kwiteza imbere, n'ayo kujyana muri banki, bakabona n'ibigori bajyana mu rugo bakajya kubirya.

Amashu ameze neza cyane, yakorewe neza n'abahinzi bakayitaho. Ageze igihe cyo kwera bakayajyana ku isoko kuyagurisha, maze bakabona amafaranga bifashisha ,bakayajyana kuri banki kugira ngo biteze imber. Andi bakayajyana mu rugo bakajya kuyateka bakayarya.

Ibinyomoro byitaweho neza cyane, bigakorerwa ku gihe kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, maze bawujyane ku isoko, babone amafaranga yo kwifasisha bakemuza ibindi bibazo andi bayajyane muri banki, ibindi babijyane mu rugo bajye kubirya.

Ibishyimbo byabitswe neza cyane bigashirwa mu mufuka kugira ngo bazabyifashishe mu gihe cyo guhinga. Maze bazabone umusaruro mwinshi w'ibishyimbo. Babijyane ku isoko ibindi babirye maze babone n'amafaranga yo kwifashisha.

Amasaka ari hafi yo kwera, maze bakayajyana ku isoko, bakabona amafaranga, andi bakayajyana mu rugo, bagakoramo ubushera n'umusururu wo kunywa, maze bakanezererwa.

Ibishyimbo bateye neza bitoshye, biri hafi yo kuzana imiteja, maze bakazayirya, indi bakayijyana ku isoko bakabona amafaranga bakoresha bakemura ibindi bibazo.

Amashaza ameze neza cyane yakorewe neza ari hafi gutanga umusaruro bakawujyana ku isoko kuwugurisha, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya bayateka maze bakayarya.

Soya bitayeho neza cyane ziri mu mufuka maze bakazijyana kuzitera bakabona umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko bakiteza imbere.

Ingano bahuye bazishira mu mufuka maze bakazijyana ku isoko, bakabona amafaranga. Izindi bakazijyana mu rugo bakazinywamo igikoma, bagakoramo n'umutsima.

Ni soya imeze neza ifite imishogi myinshi ku giti kimwe, imeze neza, itangiye kwera, ifite ikirere cyiza, yatangiye kuma.

Umusaruro w'ingano zeze neza bapakiye mu mifuka kugira ngo utangirika, maze bakawujyana ku isoko kuwucuruza, maze bakabona amafaranga bakayajyana kuri banki, abandi bakayakoresha mu rugo, ubundi bakabona ibyo bakeneye.

Ibigori byumye neza cyane, bashyize mu buhunikiro, kugira ngo bajye barabigurisha, ibindi babijyane mu rugo, bajye kubirya maze babone imbaraga zo gukoresha mu bindi.

Igihwagari kitaweho neza cyane, bakagikorera neza, kiri hafi gutanga umusaruro. Maze bakagikuramo amavuta bateka , maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi. Ayandi bakayajyana kuri banki. Ikindi bakakijyana mu rugo bakajya bagiteka maze bakakirya.

Abantu bambaye neza bishimye bari guhura ibishyimbo ku ihema, hirya ya bo hari inzu hari n'urutonde rw'amabuye.

Inkoko zitera amagi, zigatanga n'inyama bifashisha bari kurya， kugira ngo birinde uburwayi， bagire ubuzima bwiza.

Inka zimeze neza cyane ziri mu biraro bya kijyambere. Zifite ibiryo byiza bihagije n'abo kuzikurikirana buri munsi, kugira ngo zitange umusaruro mwiza.

Inka imeze neza cyane n' umuganga ufite imiti ugiye kuyitera kugira ngo imererwe neza cyane maze izatange umusaruro ushimishije.

Inkoko zitanga amagi n'inyama abantu bateka maze bakagira ubuzima bwiza, n'ibiti bitanga umwuka wo guhumeka mwiza.

Inka zimeze neza zitoshye，zihaka， ziri hafi kwibaruka， maze zigatanga amata yo kunywa， maze ayandi bakayajyana ku isoko，bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bakeneye.

Inkoko zitaweho neza cyane, zimeze neza cyane, abaganga bitaho bakazitera inshinge zabugenewe, maze zigatanga umusaruro ushimishije, hakaboneka amagi barya, n'inyama barya, maze bakazigurisha bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Inka iri mu kiraro hari ibiti n'amabati asakaye icyo kiraro harimo abantu bafashe inka bari kuyitera intanga.

Inka ziri kurisha hari ibiraro byubatse neza hari imbaho hari n'amabati asakaye.

Ingurube ziri mu kiraro gikoze neza cyane, zitaweho neza, zikagaburirwa zigatanga umusaruro ushimishije, maze bakazijyana kuzigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, maze bakiteza imbere.

Amagi ameze neza cyane, abitswe neza cyane, abantu bifashisha bari guteka umureti n'ibindi bitandukanye, kugira ngo bayarye, maze bagire ubuzima bwiza.

Inkoko zihagaze ku giti harimo isake n'kokokazi zimeze neza zisa neza ziratoshye.

Ihene n'inka zimeze neza cyane, ziri mu kiraro kiriho ibiti n'amabati. Hari n'ubwatsi bazigaburira kugira ngo zitange umusaruro mwiza.

Abaganga bavura amatungo, abacuruzi bacuruza inyama maze bakaziha abaturage bakajya kuziteka maze bakazirya, abacuruzi bakabona amafaranga yo kwiteza imberere ayandi bakayajyana mu mabanki.

Inkoko nyinshi zisa neza ziri mu kiraro, harimo ibikoresho bifashisha ziri kurya.

Inka nyinshi, zimeze neza, ziri mu gikuyu, zirimo zirarisha, zikikijwe n'ibiti bikurura imvura, bityo ubwatsi bukera neza, zikamera neza.

Ni ihene abashumba bazo bazitayeho bari kuzigaburira zimeze neza zirashishe zirahaka hari ibiraro byiza zibamo iyo barangije kuzigaburira hari ibikoresho by'isuku bakarabiramo.

Ingurube zitaweho neza cyane abaganga bakazikurikirana, maze zigatanga umusaruro ushimishije ,bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha ,maze bakiteza imbere, zigatanga n'inyama abantu barya, maze bakishima.

Inyama zitaweho neza cyane, abaganga bapimye kugira ngo zidateza ibibazo abaziriye, bityo bakagira amagara mazima, bakiteza imbere nta burwayi bafite.

Inuma borora mu rugo ,maze zigatanga inyama bakaziteka ,bakazirya izindi bakazijyana ku isoko ,bakajya kuzigurisha bakabona amafaranga ,bakayajyana kuri banki ayandi bakayakemuza ibibazo byabo.

Ingagi zibaga mu birunga, bamukerarugendo baza gusura, maze zigatanga amadovize, bakayakoresha bari gukora, ibikorwaremezo bitandukanye.

Inyoni nziza cyane ihagaze ku giti, ifite umurizo muremure, n'ikirere cy'inyuma kimeze neza cyane.

Igiti cy'ipera kimeze neza, kirimo kwera imbuto, harimo inyoni yaje kurya izo mbuto, inyuma ndabona ikirere kimeze neza,..

Udukende tuba muri parike y'Igihugu ba mukerarugendo baza gusura, maze bagatanga amafaranga igihugu kigatera imbere, n'abaturage bakabaho neza. Ibiti bitanga umwuka wo guhumeka n'amabuye bifashisha bari kubaka.

Imbwa imeze neza ifite amabara y'umukara n'umweru n'umutuku, iruhande rwayo hari ibyatsi by'icyatsi.